Ni ngombwa ko icyumba cyose cy'ishuri kigomba kuba kirimo imfashanyigisho. Izi mfashanyigisho zigizwe n'ibishushanyo zifasha umunyeshuri kumvisha ubwonko bwe neza ibyo yiga kubera ko aba abasha kubibonesha amaso ye.

Uburezi ni inkingi y'iterambere, umunyeshuri wize neza yaba mu mashuri abanza, ayisumbuye, no muri kaminuza, yaguka mu mitekerereze, bityo akaba ashobora kwiteza imbere, agateza imbere umuryango we, n'igihugu muri rusange.

Kaminuza y'u Rwanda ni imwe muri kaminuza zikunzwe, zizwi kandi ziza muri aka karere k'ibiyaga bigari, biterwa n'uko ikize ku bikorwa remezo nk'inyubako, amashuri yo kwigiramo n'ibindi byinshi.

Kugira ngo tugere ku iterambere ndetse n'ubureme ry'uburezi twifuza mubuzima bwacu bwa buri munsi nk'abanyarwanda ni ngombwa ko tugomba kuba dufite ibikorwaremezo bihagije ibyo ni nk'ibyumba by'amashuri abanza bigiramo ndetse n'ibibuga bitandukanye abana bifashisha bakina.